Umuturage uri gukoresha bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gufuhera imiti ku bihingwa kugira ngo yirinde ibyonnyi bishobora kwangiza imyaka.

Umuhinzi w'umugore, aho ari gukoresha ipompo yabugenewe akabasha gutera umuti mu bihingwa bye kugira ngo udukoko twagiye mu bihingwa tubashe kuvamo.

Umugabo bigaragara ko yambaye ipompo ari gufuhera umuceri yica udukoko tugiye dutandukanye dushobora kwangiza ibihingwa bityo bigatuma bitera neza. Yambaye agapfukamunwa kifashishwa mu kugira ngo hatabaho gukwirakwira kw'indwara ndetse no guhumeka umwuka uhumanya.

Uyu ni umwe mu baturage ukora umwuga w'ubworozi ndetse n'ubuhinzi, garagara ko ahetse igikoresho cyifashishwa mu gufuhira imiti yica udukoko tugiye dutandukanye ku bihingwa, bityo bigatuma tubona umusaruro mwiza.

Uyu ni umwe mu baturage b'abahinzi bigaragara ko ahatse igikoresho kifashishwa mu gufuhira imiti yica udukoko ku bihingwa kugira ngo ibihingwa byacu bikure neza kandi bitanga umusaruro mwiza.

Uyu ni umuhinzi. Aho ari gufuhera, imiti yica udukoko, twinshi tugiye dutandukanye. Dushobora kwangiza ibihingwa, bityo bigatuma umusaruro ugabanuka.

Umugabo ahetse ipombo ari gufuhera imiti yica udukoko cyane cyane twangiza imyaka, kugira ngo imyaka izere neza kandi itange umusaruro ushimishije.

Iyi ni imwe mu miti yifashishwa n'abahinzi mu kwita ku myaka yabo kuko yica udukoko dushobora kwangiza imyaka, bityo bigatuma imyaka idatanga umusaruro mwiza. Iyi miti ni myiza kuko yica udukoko maze ibihingwa bigatanga umusaruro mwiza, abahinzi bagahinga kandi bakeza.

Uyu ni umwe mu baturage ukora umwuga w'ubuhinzi, ikigaragara ni uko ari gufuhera imiti yica udukoko mu bihingwa kugira ngo bizere neza kandi bitange umusaruro ushimishije, hari ibiti byiza bitanga n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Uyu ni umuturage bigaragara ko akora umwuga w'ubworozi bw'amafi. Aho afite igikoresho kifashishwa mu kuroba amafi. Hari ibyatsi byiza ushobora kugaburira amatungo yawe ndetse n'ibiti byiza byo gutanga umwuka mwiza wo guhumeka. Hari amazi yifashishwa nk'aho ariho amafi akurira bityo agatanga umusaruro mwiza.

Umugabo w'umworozi w'amafi aho ahinga amafi mu cyuzi, bityo bikazatuma yiteza imbere agateza imbere n'igihugu muri rusange.

Aba n'abaturage bakora umwuga w'ubworozi bw'amafi, bigatuma babona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakabasha kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu muri rusange.

Uyu ni umworozi wa mafi aho bigaragara ko ari kugaburira amafi ye kugira ngo akure neza azabashe gutanga umusaruro ushimishije.

Iki ni kimwe mu byuzi byifashishwa n'abaturage mu kororeramo amafi agiye atandukanye, bityo agatanga umusaruro mwiza kandi ushimishije. Hafi y'icyuzi hateye ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye harimo ibitoki, amashu, ndetse n'ibigori.

Ubu ni bumwe mu bworozi bwa kijyambe, bwo korora amafi, hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari amazi meza yororerwamo amafi, hari amashyamba aturiye icyuzi cy'amafi, hari imisozi myiza, mbese hari ibyiza nyaburanga.

Aba ni bamwe mu baturage bigaragara ko bakora umwuga w'ubuhinzi bw'amafi. Hari ikiyaga kiza amafi akuriramo. Hari amashyamba meza atanga umwuka wo guhumeka, akavamo imiti igiye itandukanye. Ikindi kandi akifashishwa nk'ibicanwa.

Ubu ni bumwe mu bworozi bw'amafi yifashishwa nk'ibiribwa by'abanyarwanda ndetse n'isi hose. Hari igikoresho cyifashishwa mu kubika amafi ,ndetse n'amazi afasha kugira ngo amafi akuriremo.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amafi butanga umusaruro hano mu Rwanda bwitwa isamaki, ubu bwoko ni bwiza kuko butuma umworozi w'amafi yiteza imbere, agateza imbere n'Igihugu muri rusange.

Abagabo batanu bakora umwuga w'uburobyi bw'amafi, bugira umusaruro mwinshi kandi mwiza kuko amafi yifashishwa; ni ibiribwa bya buri munsi kandi agira n'umusaruro mwinshi kandi mwiza kuko bituma tubona amafaranga.

Iki ni kimwe mu bihingwa bigaragarira inaha iwacu mu Rwanda cyitwa ikawa, gitanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye nko kugikoramo icyayi, ikindi kandi abacuruzi bakakijyana ku isoko bakabona amafaranga bityo bakabasha kwita ku miryango yabo.

Aba ni abahinzi bari gusarura icyayi kugira ngo bakijyane ku isoko bityo bibashe kubafasha kubona ikibatunga.

Iki ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa inaha iwacu mu rwanda bitanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye, kuko ni urubuto rwiza kandi umuntu wese yafata rukamugirira akamaro. Rutanga umusaruro mwinshi kuko uwaruhinze abasha kubijyana ku isoko, agakuramo amafaranga agatunga umuryango.

Aba ni abaturage ni abahinzi b'igihingwa cyitwa icyayi ,cyifashishwa n'abaturarwanda ndetse n'isi yose muri rusange ,bigafasha abahinzi kubona amafaranga abashyigikira m'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abagabo batanu bari gusarura icyayi bagishyira mu gatebo kugira ngo bakijyane ku isoko babone amafaranga abafasha gutunga imiryango yabo.

Abaturage higanjemo abagore bicaye ku ihema bigaragara ko bari gutoranya imyaka yitwa soya bakuramo iyangiritse kugira ngo izabashe guhunikwa izatange umusaruro mwiza, hari abagore bambaye ibitenge ndetse bambaye n'udutambaro.

Iki ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa iaha iwacu mu Rwanda cyitwa icyayi, kigira umumaro mwinshi kuko gifasha uwagihinze kubona amafaranga ndetse kikanavamo n'icyo kunywa kiryoshye, kigatuma n'igihugu cyamamara muri rusange.

Uyu ni umwe mu bagore b'abahinzikazi hano iwacu mu Rwanda aho bigaragara ko ari gusarura icyayi kifashishwa nk'ikinyobwa cya buri munsi, bityo bikanafasha kubona umuhinzi amafaranga, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka mu gihe bari kuhasarurira ndetse no kuhahingira icyayi.

Abaturage b'abagabo babiri bakorera mu ruganda rutunganya icyayi cyifashishwa nk'ikinyobwa, ikindi kandi kikifashishwa mu kubona amafaranga bityo bigatuma umuturage atera imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Aba ni bamwe mu bahinzi bahingwa igihingwa k'icyayi. Bigaragara ko baje gusarura icyayi kugira ngo bakijyane ku isoko. Bahetse udutete twifashishwa mu gushyiramo icyayi basaruye bityo bikaborohereza kugira ngo batavunika.

Iyi n'imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo, aho bayifashisha kugira ngo bavure indwara ku matungo ndetse no gukumira indwara ku matungo.

Aha ni ahabitse imiti yifashishwa mukurinda ndetse no kuvura indwara z'amatungo, bigatuma zitanga umusaruro.

Iyi ni imiti abavuzi b'amatungo bakoresha mu kurinda amatungo ko yafatwa n'udukoko ndetse bikanafasha kuvura amatungo yaba yarafashwe n'udukoko tugiye dutandukanye.

yi ni imwe mu miti ihabwa amatungo magufiya higanjemo inkoko, cyane cyane iyi miti ihabwa inkoko kugira ngo zitange umusaruro mwinshi w'inyama.

Iyi ni imwe mu miti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo ndetse n'abaturage b'aborozi mu kuvura amatungo yabo kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze, ayo matungo akunda guhabwa iyi miti ni inka, intama ndetse n'ihene.

Iki ni igikoresho cyifashishwa n'abavuzi b'amatungo aho babikamo intanga zizaterwa mu itungo kugira ngo ribashe gutanga umusaruro wisumbuyeho.

Imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, ikifashishwa mu kurinda indwara ndetse no gukingira indwara ku matungo.

Imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo mu kuvura no kongera imirire myiza ku matungo zirya intungamubiri zuzuye.

Imiti y'amatungo yifashishwa mu kwica udukoko dushobora gufata amatungo ndetse imiti ihabwa amatungo mu gihe yarwaye indwara zigiye zitandukanye akabasha gukira agatanga umusaruro uhagije.

Imwe mu miti yifashishwa n'aborozi bakunda korora inkoko mu kuzamura imisaruro, hari iyifashishwa mu kuzamura umusaruro w'amagi, bityo amagi akaba menshi ndetse hari n'iyifashishwa mu kuzamura umusaruro w'inyama.

Imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo mu kuvura ndetse no kurinda uburwayi ku matungo. Ndetse akifashishwa mu gukumira uburwayi bugiye butandukanye. Bigatuma twongera n'umusaruro mu matungo yacu.

Uyu ni umwe mu miti abavuzi b'amatungo bakoresha mu gihe bari kurinda udukoko dukwirakwiza uburwayi ku matungo ndetse no mu gihe bari kuvura udukoko dutera indwara ku matungo.

Iyi ni imwe mu miti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo, mu kuvura ndetse no gukumira indwara ku matungo, yiganjemo inka, inkoko, ihene ndetse n'andi matungo agiye atandukanye.

Aba ni abaturage bari gutera ibiti kuko ibiti ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu bituma tubona umwuka mwiza duhumeka, hari n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye amatungo yifashisha nk'amafunguro yazo ya buri munsi.

Uyu ni umwe mu baturage ino aha iwacu mu Rwanda bakora umwuga w'ubuhinzi, aho ari mu murima afite umufuka bigaragara ko afitemo ibintu avuye gusarura.

Umuturage wahuye ihene kugira ngo ibone ibyo kurya, hari ibiti byiza by'imiyenzi byifashishwa mu kubaka ingo z'abaturage ,ikindi kandi ikifashishwa nk'umuti uvura abana.

Abahinzi harimo abagore ndetse n'abagabo n'imbuto zitwa amapapayi ,atuma tugira ubuzima buzira umuze bigatuma twirinda indwara.

Aba ni abahinzi bagiye guhinga mu mirima yabo, kugira ngo babone icyo kurya. Hari n'amashyamba hifashishwa mu kugira ngo tubone umwuka mwiza duhumeka, ikindi kandi akifashishwa nk'ibicanwa kugira ngo duteke ibyo kurya byacu bya buri munsi.

Uyu ni umuturage, akaba ari umuhinzi wa kijyambere, ahinga imyaka yifashishwa nk'ibiryo by'abaturage, hari ibiti byiza byavamo amakara ndetse bikanavamo inkwi twifashisha muteka ibyo kurya.

Amatungo yiganjemo inka aho ari kugaburirwa ahabugenewe kandi ari mu kiraro cyubakishije imbaho bityo bigatuma amatungo adatoroka ngo abashe kujya konera abaturage.

Uyu ni umwe mu bahinzi bigaragara ko ari kurema akura imyanda mu murima, ibyatsi kugira ngo yitegure ihinga rikurikiyeho, ari gukuramo ibyatsi kugira ngo bizafashe imyaka gukura neza ndetse na byonyi biri mu murima.

Aba ni abahinzi bari guhinga amashyamba ari yo soko y'umwuka mwiza duhumeka, ni abahinzi kandi bari guhinga imbuto nyinshi zigiye zitandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse n'abana.

Aba ni bamwe mu baturage bigaragara ko bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Hari ufite inkwi bigaragara ko avuye gusenya ndetse hari n'abafite amasuka bigaragara ko hari aho bari kuva. Hari amatungo akunze kwifashishwa ino aha mu Rwanda yororwa agatanga amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ibyatsi byiza biri kuribwa n'amatungo ndetse n'ibiti byiza byo gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Iki ni igihingwa gikunze guhingwa mu bishanga inaha iwacu mu Rwanda kizwi ku izina ry'umuceri, iki gihingwa ni cyiza kuko gituma umuhinzi wagihinze adakena ahubwo atera imbere ndetse agateza n'igihugu muri rusange.

Iki ni igihingwa cyitwa umuyenzi cyifashishwa mu kuzitira urugo ndetse bamwe bakifashisha nk'umuti kubana, hakaba hari n'ibyatsi bigaburirwa amatungo.

Ibi ni ibihingwa bikunze guhingwa inaha iwacu mu Rwanda byitwa ibigori. Bitanga umusaruro mwiza kuko bivamo ibyo kurya byinshi bigiye bitandukanye kandi bikajyanwa no ku isoko hakaboneka amafaranga ku buhinzi bityo akabasha gutunga imiryango ye, akiteza imbere agateza n'Igihugu muri rusange imbere.

Imboga zitwa dodo, izi mboga ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa muntu, kuko zidufasha mu kureba neza ndetse ni nziza mu buzima kuko zidufasha no kurinda uburwayi bugiye butandukanye, ziteye mu murima mwiza urimo ifumbire bityo bikazatuma imboga zacu zikura neza.

Iki ni igihingwa gihingwa inaha mu Rwanda cyitwa imyumbati. Ni igihingwa cyiza kuko kigira umusaruro mwinshi ugiye utandukanye nko kuvamo ibyo kurya bya buri munsi, ubugari, isombe ikindi kandi igiti cyacyo kikavamo n'ibicanwa. Kiri mu butaka bwiza bwifashishwa mu guhinga kandi ibihinga bikera neza.

Iki ni kimwe mu bihingwa abahinzi bakunda guhinga, cyifashishwa mu gutanga ifu y'ibigori ikindi ukaba wagitekamo igikoma, kinafasha umuhinzi kubona amafaranga.

Uyu ni umwe mu mirima uhinzwemo imyaka yitwa ibigori byifashishwa nk'ibiryo byacu bya buri munsi, ikindi kandi ukaba wanateka igikoma mu bigori, hari imisozi myiza uyireba ukumva amaso aguwe neza ukumva uraruhutse.

Ubu ni bumwe mu buhinzi bwa kijyambere bwifashishwa n'abaturage bahinga ibigori, byifashishwa mu gukuramo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo umutsima w'ibigori, igikoma ndetse ukaba wanatera ikigori ukakirya.

Ibi ni bimwe mu bihingwa abahinzi babasha guhinga ,bigatuma tugira ubuzima bwiza harimo; karoti ,ibitunguru, amashu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ni abaturage bari guca mu muhanda wakozwe na leta wifashishwa mu gukorerwamo ingendo nyinshi zigiye zitandukanye, ucamo ibiziga bigiye bitandukanye imoto, imodoka ndetse n'amagare, hari ibiti byiza byo gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'amatara yifashishwa mu kumurikira abaturage mu gihe cy'umwijima nimugoroba.

Iki ni kimwe mu bihingwa by'ibinyamisogwe cyitwa ibishyimbo. Ni ingirakamaro cyane kuko nta wasonza ugifite. Hari ibigori, ndetse hari n'umurima utewemo izo mbuto.

iIi ni kimwe mu bihingwa bihingwa ino aha iwacu mu Rwanda, ni urubuto rwiza rwitwa ironji, rutanga umusaruro mwiza kuko uwaruhinze arujyana ku isoko akabona amafaranga ndetse akita no ku miryango ye, ikindi kandi n'uwaruhinze ashobora kurukuramo imbuto akagaburira imiryango ye.

Izi ni imboga zifashishwa n'abaturage, mu gutegura amafunguro ya buri munsi n'imboga zitwa dodo zigira intungamubiri nyinshi cyane zifafasha abana zifasha abantu bakuru kandi zituma n'umuntu arebaba neza.

Abaturage bitabiriye umuganda rusange, aho bari gutema ibihuru byihishamo imibu, bagaca imiferege izajya icamo amazi, kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa n'umubu ari wo malariya, kandi bagire isuku kuko isuka ari isoko y'ubuzima.

Aya ni amwe mu mashyamba agize igihugu cy'u Rwanda. Atuma tubona umwuka mwiza duhumeka. Agafasha mu kubona ibicanwa harimo: amakara ndetse no gucana gucana ku nkwi ndetse atuma tubona n'imvura.

Iri ni rimwe mu mashyamba ya kijyambere akunze guhingwa, akifashishwa mu gutanga imiti igiye itandukanye, hagakurwamo inkwi zo kwifashisha mu gihe dutetse ibihingwa, ikindi agatuma tubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Aya ni amashyamba bigaragara ko atewe hafi y'umuhanda mu kugira ngo ajye atange umwuka mwiza wo guhumeka, atange akayaga ikindi kandi abaturage bumva bananiwe bahagane babashe kuharuhukira, hari umuhanda mwiza wifashishwa gucirwamo n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'akayira k'abanyamaguru bifashisha bacamo kugira ngo birinde impanuka.

Amashyamba yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka, akifashishwa mu gutanga ibicanwa, akifashishwa mu gutanga imbaho zifashishwa mu kubaka amazu dutuyemo.

Ishyamba ridufasha mu kubona umwuka mwiza duhumeka rikadufasha no kubona ibicanwa bijyiye bitandukanye harimo: inkwi, amakara...

Ishyamba ryifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka, rigatuma tubona amakara meza yo gu gutekesha, ibyokurya, rigatuma tubona ibicanwa. Imodoka yifashishwa mu gutwara ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo na za nkwi zatemwe mu ishyamba.

Ishyamba ryifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo kuba bitanga umwuka mwiza duhumeka, hari ibiti bimwe na bimwe bivamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi ibiti byifashishwa mu gukuramo inkwi zo gucana.

amashyamba yifashishwa mu bintu byinshi bigenda bitandukanye, harimo nko gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, arimo imiti igihe itandukanye ndetse akanavanwamo inkwi, bityo tugateka ibiryo tukabasha kurya tukagira ubuzima bwiza.

Umugezi, ukikijwe n'amashyamba, yifashishwa, mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, ukikijwe kandi n'intoki, zitanga, ibitoki byo kurya.

Amashyamba yifashishwa mu gutanga ibintu byinshi byari bitandukanye, nko gutanga umwuka mwiza guhumeka ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bigaragara ko harimo amatungo, ari kurisha ibyatsi kugirango atange umusaruro mwinshi kandi ugiye utandukanye.

Aya ni amashyamba yifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye nko gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, akavamo ibicanwa ndetse akifashishwa nk'umuti, ikindi amashyamba yifashishwa mu kubaka inyubako nyinshi kandi zigiye zitandukanye, zigakomera kandi zikaramba.

Iki ni ikiraro kiri mu mashyamba rwagati cyifashishwa n'abakerarugendo mu gusura ndetse no kunoza ingendo zabo nk'abakerarugendo basura inyamaswa ndetse n'ibyiza nyaburanga bitatse amashyamba.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'amashyamba, urimo ibinyabiziga abaturage bari kugenda bawucamo. Hari n'amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Aka ni akayira gakikijwe n'amashyamba yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka, hakaba hari insina dukuramo ibitoki byiza kandi biryoshye, hakaba hari n'ibigori turya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Aya ni amwe mu mashyamba yifashishwa mu gutanga imiti igiye itandukanye, mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, ikindi kandi amashamba yifashishwa nk'inkwi zifashishwa mu guteka ibyo kurya byacu bya buri munsi.

Ibishyimbo bitewe mu butaka bizakura bikaba ibiryo abaturage bakarya, abahinzi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo guhaha ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Mu bacuruzi bahinga inanasi bakaza gucuruza mu isoko, hari umugabo uje guhaha inanasi, hari ubusitani bwiza cyane umuntu agomba kwicaramo akaruhuka, hari igare ribafasha kwikorera imbuto zabo bazikura mu murima bazijyana aho zigomba gucururizwa.

Umwe mu baturage bakora ubuhinzi bw'imboga zitwa pavuro zikunze guhingwa inaha iwacu mu rwanda. Izi mboga ni nziza kuko zituma umuturage azijyana ku isoko akabona amafaranga bityo akabasha gutunga umuryango we.

Aba ni abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga zitwa inyanya zifashishwa nk'ibiribwa turya bya buri munsi bigafasha umuhinzi mu kubona amafaranga akabasha kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'urugo rwe, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga amahumbezi mu gihe bagiye guhinga.

Ubu ni ubuhinzi bw'urubuto rwitwa macadamia rukaba rwifashishwa nk'ibiribwa abantu barya ndetse bakagikoramo n'amavuta.

Ubu ni bumwe mu buryo bwo kuhira imyaka kugira ngo ikure kandi ikure neza; hari umugabo bigaragara ko afashe ipompo ariko kuhira imyaka, hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza, hari imyaka izifashishwa nk'ibiryo by'abaturage.

Ubu ni uburyo bwo kuhira imboga wifashishije amatiyo akura amazi mu kidendezi akayazana mu mashu. Hari umurasire mwiza, hari ishyamba rikikije umurima w'imboga rituma tubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ubu ni uburyo bwa kijyambere bwo kuhira imyaka bityo bigatuma wuhira ahantu hanini kandi mu gihe gitoya bityo bigatuma ukoresha igihe gitoya kandi wuhiye ahantu hanini.

Izi ni imashini zifashishwa mu kuhira ubuso bunini kandi mu gihe gitoya, bigatuma igihe umuhinzi yamaraga yuhiza intoki kigabanuka bityo bigatuma n'umusaruro wiyongera.

Aya ni amazi yifashishwa n'abaturage mu kuhira imyaka, bityo igatanga umusaruro mwiza kandi ushimishije, mbese bakajyana no ku isoko bityo bakabona amafaranga yo kubitaho ndetse akita no ku miryango yabo. Hari ibiti byiza byifashishwa nk'ibicanwa ndetse n'ibyatsi byiza bishobora kugaburira amatungo akarya agahaga.

Ubu ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi mu kuhira ibihingwa bufasha mu kuhira ubuso bunini mu gihe gito bikihutisha igihe wamaraga wuhiza intoki.

Uyu ni umugabo bigaragara ko ari kuhira imyaka, akoresheje ibiganza, hari ibiti bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka ndetse hari ubutaka bwiza bwo guteramo imyaka.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga hari amazi meza, yifashishwa mu gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, hari amapoto yifashishwa mu kuyobora umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Ubu ni bumwe mu buryo bwa kijyambere bwifashishwa mu kuhira ibihingwa, ubu buryo ni bwiza kuko butuma ibihingwa byuhirwa mu gihe gito kandi bugatanga umusaruro mwiza ushimishije, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, ikindi abaturage bakabikoresha nk'inkwi bityo bigateka ibyo kurya.

Aba ni abaturage harimo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko bari gutera imyaka igiye itandukanye kandi hari umugabo ufite igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kuhira imyaka ikiri mitoya, hari n'abandi bafite amasuka ndetse n'abambaye ingofero.

Ubu ni bumwe mu bwuhizi bw'ibihingwa bwa kijyambere, aho bwifashishwa n'abaturage mu kuhira imyaka yabo bakuhira ahantu hanini mu gihe gitoya, bikabafasha kugabanya igihe bamaraga buhiza intoki.

Uyu ni umwana bigaragara ko ari kuhira imyaka yifashishije ibikoresho byabigenewe mu kuhira imyaka hakoreshejwe intoki, hari byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bigatanga n'inkwi, hari ibyatsi byiza byifashishwa mu kugaburirwa amatungo bityo agatanga umusaruro mwiza.

Imashini ya kijyambere yifashishwa mu buhinzi, yifashishwa kuhira ubuso bunini kandi mu gihe gitoya bikohereza umuhinzi kutamara igihe kinini ari kuhira.

Ubu ni uburyo bwo kuhira ukoresheje imashini zabugenewe bityo bikagabanya igihe wamaraga uri kuhiza intoki ikindi kandi bikongera n'umusaruro muri rusange.

Aha ni ahateye ishyamba rituma duhumeka umwuka mwiza, rigatuma tubona ibicanwa yaba amakara ndetse n'inkwi zifashishwa mu guteka ibiribwa.

Imisozi myiza ikurura ba mukerarugendo bakaza gusura Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari amashyamba meza, atanga umwuka mwiza duhumeka, akavamo ibicanwa ndetse agakurwamo n'ibiti byo gukora amakara.

Ubu ni bumwe mu buhinzi bwa kijyambere bwifashishwa mu guhinga icyayi, hari amashyamba meza atanga umuyaga, agatanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga tw'Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari amazi meza yifashishwa mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye nko kuyanywa ndetse n'ibindi byinshi. Hari utwatsi twiza ushobora kugaburira amatungo yawe, akarya akagubwa neza. Hari ishyamba ryiza rivamo imiti ndetse rigatanga n'umwuka mwiza wo guhumeka, ikindi kandi ukaba wakuramo n'ibicanwa. Hari imirima myiza yo guhingamo imyaka.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga tugaragara iwacu mu Rwanda, habera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye nk'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, hari amashyamba meza yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse akanatanga n'inkwi, hari imirima myiza ushobora guhingamo imyaka ikera.

Aka ni kamwe mu duce tugaragara ino aha iwacu mu Rwanda, dutuyemo amazu menshi agiye atandukanye, aho baba bacucetse, hari amashyamba meza yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka mu baturage kandi akavamo n'ibicanwa, akabamo n'umuti.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga tugaragara ino aha iwacu mu Rwanda, hari ibirwa byiza biri mu mazi hagati, hari ibiyaga byiza, hari imisozi myiza ushobora kurebesha amaso ukumva uguwe neza, hari ibiti byiza bitanga n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga tugaragara ino aha iwacu mu Rwanda. Hari ikiyaga kiza kifashishwa mu kubona amazi meza. Ikindi kandi kikabika n'amafi bityo akazavamo ibyo kurya. Hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga ibyo kurya, bikifashishwa mu gutanga imiti ndetse no mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Aha ni hamwe mu duce nyaburanga tugaragara ino aha iwacu mu Rwanda, hari umugezi mwiza wororerwamo amafi agakura neza, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bigatanga n'imiti, hari n'imisozi myiza.

Kamwe mu duce nyaburanga tugaragara ino aha iwacu mu gihugu aho abaturage bahakorera ibikorwa byinshi byari bitandukanye by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bigatanga n'inkwi zo gucanaho dutetse ibiryo bigiye bitandukanye.

Aka ni kamwe mu duce nyaburanga tugaragaye ni iwacu mu Rwanda, hari utwatsi twiza dushobora kugaburirwa amatungo akarya agahaga ndetse akongera n'umusaruro, hari imisozi myiza ibereye amaso ndetse hari n'ibiti byiza bivamo imiti igiye itandukanye ndetse bigatanga n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Aka ni kamwe mu duce tugaragararira iwacu mu rwanda ushobora kuhagana ukahabonera ibyiza nyaburanga. Hari ikiyaga kiza gishobora kujyamo amafi bityo agakora neza agatanga umusaruro. Hari ibiti byiza bishobora gutanga umwuka mwiza wo guhumeka bigatanga inkwi ndetse bigatanga n'amakara ndetse hari na bimwe mu biti bitanga imiti.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha inte iwacu mu rwanda azwi ku izina ry'ingurube, yororoka vuba vuba atanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye, ari ifumbire yo gufumbiza imyaka, ari inyama ndetse akanabyara ibibwana byinshi kandi mu gihe gito.

Ubu ni bumwe mu bworozi bwa kijyambere bwifashishwa mu korora ingurube zitanga umusaruro mwinshi, hari aho zinywera amazi, hari aho ziruhukira ndetse hakaba hari n'aho zirira, bityo bikazifasha mu gukura neza.

Aya ni amwe mu matungo akunze gu kororwa inaha iwacu mu Rwanda, yitwa inka bigaragara ko ari gufata amafunguro. Aya matungo ni meza atanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye arimo amata, inyama, ndetse n'ifumbire. Aya matungo ari mu kiraro cyiza ndetse hari n'inzu.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda atanga umusaruro mwinshi utandukanye harimo amata, agatanga ifumbire tugafumbira imyaka ikera ikindi atanga inyama, aya matungo ni meza kuko afasha abaturage mu kwiteza imbere.

Bumwe mu bworozi bwa kijyambere bwifashishwa mu korora amatungo magufiya, higanjemo inkoko, hari aho zinywera amazi kugira ngo zibe ahantu humutse kandi hasukuye, hari aho zirara, hari aho zirirwa ndetse binafasha mu gutanga umusaruro mwinshi.

Bumwe mu bworozi bwa kijyambere wifashisha uri korora, hari itungo ryitwa inka riri mu kiraro cya ryonyine hari umuturage bigaragara ko ari nyiri iyi famu, hari ibyuma byiza bikomeye byubatse mu byuma.

Iyi ni inzu yororerwamo imishwi, igakura neza ikazadufasha mu kubona amagi ndetse n'inyama, bigatuma ubuzima bwacu bugenda neza.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu rwanda atanga umusaruro mwinshi azwi ku izina inka, aya matungo atanga ifumbire, atanga amata ,ikindi akanatanga ifumbire yifashishwa mu gufumbira ibihingwa.

Inka yifashishwa mu gutanga umukamo, inka yororoka, inka itanga ifumbire tukabasha gufumbira ibihingwa bikera neza, inka itanga inyama tukarya tugahaga.

Umuvuzi w'amatungo yaje gutera intanga itungo kugira ngo rizatange umusaruro wo kororoka ritange n'amata bityo tuzabone ifumbire ihagije.

Aya ni amatungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda azwi ku izina ry'Inyambo, ari mu kiraro cyiza cya kijyambere kuko gifite umuyoboro w'amazi ikindi hakaba hari ibikoresho byiza by'isuku, hari n'ibiindi byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikagaburirwa n'amatungo.

Aya ni amatungo yitwa ihene yifashishwa mu gutanga inyama ndetse akifashishwa no mu gutanga ifumbire bityo ugatuma uhinga neza ukeza kubera ko wabonye ifumbire ikomotse kuri aya matungo yitwa ihene.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa ino aha iwacu mu rwanda akunze kwitwa inkoko. Atanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye, harimo gutanga amagi, harimo nanone gutanga inyama, ndetse n'ibindi byinshi.

Amatungo magufi yitwa inkwavu aborozi barayorora bakabasha kubona ibibatunga byabo bya buri munsi babikuye kuri aya matungo harimo inyama ndetse bakabona n'ifumbire kugira ngo bafumbire imyaka.

Uru ni urwuri rwororerwamo amatungo, higanjemo inka, hari ibyatsi byiza bitoshe amatungo akunda kurya, hari ibiti byiza bituma haboneka umwuka mwiza wo guhumeka, ku baturage begereye urwuri.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda, atanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye kuko yororoka vuba ikindi agatanga inyama ndetse akanatanga ifumbire, zambaye amaherena ariho nimero yazo kugira ngo abashe gutandukanwa n'ayandi mu gihe yivanze.

Ubu ni bumwe mu bworozi bwa kijyambere bwo korora inka zidufasha kubona amata, kubona inyama, kubona ifumbire tugafumbira ibihingwa ndetse tukabona n'amafaranga biturutse muri ya mata cyangwa se muri za nyama.

Ingurube kimwe mu matungo akunze kororwa inaha mu Rwanda azwiho kororoka vuba mu gihe gito, atanga umusaruro n'undi ugiye utandukanye yaba uw'ifumbire ndetse n'inyama.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda, atanga umusaruro mwiza mwinshi utandukanye harimo ifumbire, inyama ndetse n'amata, iri tungo biragaragara ko riri kurya ikindi kandi ryambaye iherena rigaragaza nimero zayo mu yandi matungo.

Uyu ni umwe mu bavuzi b'amatungo waje kuvura inka, hari ikiraro cyiza kizifata bigatuma zidateza akavuyo, hari ibiti byiza, hari ibyatsi byiza amatungo abasha kurya.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda azwi ku izina ry'inka, izi nka ikindi kandi zizwi ku izina ry'Inyambo kuko zisigasira umuco nyarwanda, hari abaturage bigaragara ko bita kuri aya matungo.

Aha nahabitswe imbuto zifashishwa mu guhinga ndetse abaturage bakazifashisha mu guteka ibyo kurya.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bikunze guhingwa inaha iwacu mu Rwanda harimo ibishyimbo by'amoko yose, amashaza y'amoko yose ndetse n'ibigori, ibihingwa ni byiza bitanga umusaruro mwiza ushimishije kandi bigira n'intungamubiri mu mubiri wa muntu.

Uyu ni umwe mu musaruro ukomoka mu buhinzi bw'ibigori byifashishwa mu kubikoboramo akawunga bityo hakavamo ibiryo biryoshye, ukifashishwa kandi mu kunywamo igikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ni bamwe mu baturage bari gufasha umuvuzi w'amatungo mu kuvura ndetse no kudoda inka ahatu amaze kuyibaga, bityo bigatuma yongera igakira ikagira ubuzima bwiza kandi buzira indwara.

Abavuzi b'amatungo basuye inka z'inyarwanda zikunda kwitwa inyambo, aho baje kuzitera intangaga, kugira ngo zibashe kororoka kandi zitange n'umusaruro w'amata.

Uyu ni umuvuzi w'amatungo bigaragara ko ari kwita ku itungo, arivura kugira ngo ribashe gukira uburwayi, ribeho neza kandi ritekanye, aho yambaye ibikoresho byifashishwa kugira ngo indwara zitandura.

Aba ni abavuzi b'amatungo, umugore n'umugabo bari kuvura itungo banareba ubuzima bw'iri tungo ryitwa imbwa kugira ngo barebe uko rihagaze.

Uyu ni umwe mu borozi ubworozi bwa kijyambere warora inkoko, afite inzu nziza harimo inzu nziza harimo ibikoresho byiza, byifashishwa kugira ngo umusaruro w'izi nkoko wiyongere.

Aya ni amwe mu matungo akunze kororwa ino aha iwacu mu Rwanda azwi ku izina ry'inka ikindi akaba ashyigikira umuco w'u Rwanda bakaba banayita Inyambo, atanga umusaruro mwinshi ugiye utandukanye nko gukurura ba mukerarugendo bakaduha amafaranga ndetse no gutanga ifumbire no gutanga umukamo ndetse n'inyama.

Uyu ni umwe mu bavuzi b'amatungo, bigaragara ko hari umuntu wishe imbwa akaza akayinyinaga mu bisambu bityo ibi bintu bikaba bitemewe kuko bishobora gukwirakwiza uburwayi bwinshi bugiye bitandukanye.

Uyu ni umuvuzi w'amatungo, aho ari gutera intanga mu itungo kugira ngo rizabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Aba ni bamwe mu baturage harimo n'umuvuzi w'amatungo, bigaragara ko yaje kwita ku itungo arivura, arisuzuma kugira ngo umusaruro waryo ukomeze kwiyongera. Hari igipangu cyifashishwa mu kurizirika kugira ngo rituze ribashe kubonerwa ubuvuzi.

Aba ni bamwe mu bavuzi b'amatungo bigaragara ko bari gusuzuma inyama mbere y'uko zizaribwa n'abaturage, izo nyama bari gupima higanjemo imyijima, imitima, ibihaha ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Iyi ni imwe mu nyamaswa iboneka mu mashyamba agiye atandukanye mu Rwanda, amashyamba akunze kubonekamo aya matungo akunze kuba arinzwe kuko izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakinjiza amafaranga mu gihugu bityo kigatera imbere kigateza n'imbere umuturage muri rusange.

Izi ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi ushobora gusanga mu mashyamba agiye atandukanye, izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga bityo igihugu kigatera imbere, hari ibyatsi byiza byifashishwa nk'ibiryo by'amatungo ndetse hari n'ibiti byiza byo gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Iyi ni imwe mu nyamaswa ushobora gusanga mu mashyamba bigaragara ko irimo iranywa amazi, iyi nyamaswa ikurura ba mukerarugendo bakaza kuyisura ndetse bagatanga n'amafaranga, hari ibyatsi byiza byifashishwa nk'ibiryo by'izindi nyamaswa mu ishyamba.

Aka ni kamwe mu tuyamaswa tugaragara ino aha iwacu mu rwanda, kazwi ku izina ry'umusambi. Umusambi ukunze gukurura ba mukerarugendo bakaza kuwureba kuko ugaragara neza kandi ni na mwiza. Hari amazi meza yifashishwa mu kugira ngo imisambi yogemo yumve iguwe neza.

Iyi ni imwe mu nyamaswa ziboneka mu mashyamba mu bihuru ifite ubumara bukabije ikunze kwitwa inzoka, iyi nzoka iyo ikurumye ntuvuzwe ushobora no kuhasiga ubuzima.

Iyi ni imwe mu nyamaswa zikunda kuboneka mu mashyamba agiye atandukanye, izi ni inyamaswa zikunda gukurura ba mukerarugendo bakaza gusura inyamaswa, hari amazi meza yifashishwa n'inyamaswa zigiye zitandukanye kugira ngo zibone amazi yo kunywa.

Iyi ni imwe mu nyoni nziza y'icyitegererezo yitwa imbata ikurura ba mukerarugendo. Hari amazi meza yifashishwa nk'ibinyobwa by'amatungo yo mu gasozi.

Izi ni zimwe mu nyamaswa zishobora gusangwa ino aha iwacu mu rwanda. Harimo udusumbashyamba, ihene z'ishyamba, ndetse n'izindi. Izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaza gusura inyamaswa, bityo bakinjiza amafaranga bityo bigafasha igihugu gutera imbere. Hari amashyamba meza yifashishwa n'amatungo kugira ngo abone ibyo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.